Umugabo uri mu murima uhinzemo ibigoyi akaba yambaye udupfukantoki tw'umweru ari kugenda atera umuti ibigori bye kugira ngo arebe ko byazamuteza imbere.

Utubidoho twinshi tugiye dutandukanye, tuba turi gushyirwamo ji, aho ari ingenzi cyane, ku buryo umuhinzi wese uyifite abasha kuyinywa, maze agakora imirimo ye neza.

Umugabo w'umuzungu wambaye agapfukamunwa, akaba ari kugenda mu murima w'umuceri aho ari kugenda awutera umuti kugira ngo utazafatwa n'udukoko ukarumba maze agahomba na we.

Abagabo bagera muri batatu bahuriye hamwe aho bari mu murima uteyemo imbuto zigiye zitandukanye. Aho bari kuganira ukuntu bashobora guteza imbere umwuga wabo w'ubuhinzi.

Ubworozi bw'amafi bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi barabigize umushinga, hanyuma bakajya bajya kuyaroba.

Ni icyuzi kiza cyane cyororewemo amafi, aho aya mafi ari meza cyane bigaragara ko yakuze, aho atanga umusaruro ku mworozi wayo maze akaba yatera imbere igihe cyose avuye kuroba.

Uburinganire bwaraje mu rwanda, aho muri iki gihe n'abagore basigaye bakora umwuga w'uburobyi bakaroba amafi agiye atandukanye, hanyuma akabateza imbere maze bakabona amafaranga.

Uurima uhinzemo urutoki aho iruhande rwarwo hari icyobo k'ikidamu kiba kirimo amazi bifashisha bari kuhira imyaka ihinze hafi aho ngaho.

Ahantu hari icyuzi cyiza kirimo amazi menshi, bikaba bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'uburobyi, hakaba hicaye abantu babiri ahagana hejuru bigaragara ko ari bo barobyi bene ahangaha.

Umugabo ukora umwuga w'uburobyi akaba ari ahantu barobera aho ari kugenda akora akazi ke, ashyira ibyo kurya mu mazi kugira ngo amafi aze kubona ibyo aza kurya nahagera.

Muri iki gihe uburinganire bwaraje mu Rwanda, aho abagore na bo basigaye bakora umwuga w'uburobyi bafatanyije n'abagabo ba bo, bagashyira indobani hasi mu mazi, bakazamura bakareba ko hari amafi yajeho.

Ahantu heza cyane, hari amoko atandukanye y'ibihingwa ndetse hakaba hakorerwa n'umwuga w'ubworozi bw'amafi, aho hari n'akazu aho abarobyi bahuriramo iyo bamaze kuroba.

Umuntu uri ahantu mu cyuzi, akaba ari kugenda aminjamo ibyo kurya bigiye bitandukanye by'amafi kugira ngo amafi abirye abyibuhe bazayasarure ameze neza.

Amagambo yanditse ahantu hasa nk'icyatsi, hejuru hakaba hari andi magambo asa umuhondo, imbere hakaba hari icyuzi baroberamo amafi kiri mu ibara ry'ubururu kiza cyane.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari aborozi b'amafi babigize umwuga bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo nayo azabateze imbere.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abarobyi bakaba bafite amafi buri wese, bigaragara ko ari ayo bamaze kuroba, bari kwerekana umusaruro uvamo uko ungana.

Icyuzi kirimo amazi menshi cyane kikaba gikorerwamo uburobyi, aho abantu babigize umwuga baza bafite indobani bakinjiramo bakaroba amafi arimo.

Ahantu bakorera umwuga w'uburobyi, hakaba hari amafi menshi arambitse hasi, aho ayo mafi ari meza cyane, ku buryo umworozi wayo iyo ayitayeho abasha kumuteraza imbere cyane, maze akabona amafaranga agatera imbere.

Uburobyi bw'amafi ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe abantu basigaye baroba amafi barabigize umushinga, bakabyitaho hanyuma bikaba byabateza imbere cyane.

Ubworozi bw'amafi busigaye bwarateye imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi hanyuma bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma yamara gukura bakazajya kuyaroba nk'umushinga.

Umugabo wakoze umushinga w'ubworozi akaba afite indobani avanye mu mazi, ari kugenda ayikamura ngo amazi ashiremo hanyuma arebe amafi yarobye uko angana.

Ubworozi bw'amafi bugenda burushaho gutera imbere, aho kuri ubu hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga hanyuma bakabonamo umusaruro mwinshi cyane ubasha kubatunga.

Amoko agiye atandukanye y'ubworozi bw'amafi, aho abantu bayororera ahantu hagiye hatandukanye, hanyuma bakazajya bajya kuyaroba igihe runaka.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo azabashe kubaha ku musaruro.

Abantu babiri bakora umwuga w'uburobyi, aho bafite igishitingi kirambitsemo amafi menshi cyane barobye, bikaba bigaragara ko ari umusaruro babonye ndetse bakaba banawishimiye.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, hanyuma bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye na yo akazabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu wahinze ikawa akayitaho igenda imuha umusaruro uhagije maze akakirigita ifaranga agatera imbere.

Umugore uri ahantu hahinze ikawa, akaba ari kugenda ayisoroma, akaba yiteze igitambaro yambaye n'umupira w'umweru, ari gusoroma ikawa kugira ngo arebe ko yabona umusaruro.

Umurima uteyemo imboga, aho izo mboga ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzihinze akazitaho, zibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga, agatera imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga icyayi bya kinyamwuga hanyuma bakagisoroma, bakakigemura ku kirogotero.

Abahinzi b'icyayi bari mu murima, aho bari kugenda basoroma bashyira mu ntebo zabugenewe kugira ngo baze kwifashisha icyo cyayi nk'umwuga wo guhinga.

Abahinzi b'icyayi bari mu murima bari kugenda basoroma kugira ngo barebe ko barabonamo ibiro bihagije hanyuma babijyane ku kirogotero imodoka ize kubitwara.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho uyu nguyu uteyemo umuceri, umuceri rero ni ingirakamaro cyane, aho umuntu uwuhinze akawitaho, ubasha kumuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma yamara kwera bakayigemura ku isoko bakabonamo amafaranga.

Umugabo uhagaze mu murima w'ikawa, aho ari kugenda areba ukuntu ibihingwa ngengabukungu ari ingenzi cyane kubera ko bitanga umusaruro umuhinzi wabyo byihuse, maze na we akabasha kuba yakwiteza imbere.

Umuntu uri kugenda mu murima w'icyayi, aho amaze kugisoroma none akaba akikoreye, akaba agiye kukijyana ku kirogotero kugira ngo imodoka niza ize ku kihatwara.

Umurima uhinzemo ibigori, hakaba hari kugenda hatemberamo abahinzi bagenda bashyiramo ifumbire kugira ngo bizabashe gukora neza hanyuma nibyera bazabone umusaruro ufatika.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe umuntu wahinze ikawa akayitaho akayikorera uko bikwiriye ibasha kumuha umusaruro maze akaba yatera imbere.

Ibihingwa ngengabukungu bizwiho nk'ikawa birakunzwe cyane mu Rwanda aho bisigaye bihingwa n'abatari bake, hakaba hari umugore uri kumwe n'umwana bakaba bari kugenda bayisoroma iyo kawa.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho hanyuma iyo kawa yatukura ikazabateza imbere.

Umuntu uri mu gishanga ari guhingamo umuceri, bigaragara ko yabigize umwuga, ubuhinzi bw'umuceri rero ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu uwuhinze, akawitaho ububasha kumuha umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'ikawa mu Rwanda, bugenda burushaho gutera imbere cyane aho umuhinzi ahinga ikawa yazana imbuto igihe zatukuye akazisoroma akazijyana ku isoko.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho guteza imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma ikazabaha umusaruro utubutse.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikabaha umusaruro, zikabateza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umuntu wese wahinze ikawa akayitaho, iyo itukuye imuha umusaruro uhagije, maze agatera imbere.

Umugore uri mu murima w'icyayi aho ari kugenda agisoroma, umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo uhinze icyayi ukakitaho kibasha kuguteza imbere cyane maze ugakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinz icyayi barabigize umwuga bakacyitaho, bakajya bagisoroma buri kwezi hanyuma bakigurisha kikabaha umusaruro.

Ahantu heza cyane hari uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo ayo matungo bayarinde indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo amabara agiye atandukanye y'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, tukaba turi kumwe twinshi turimo umuti wifashishwa mu kuvura amatungo.

Akabido kari mu mabara agiye atandukanye aho kari kumwe n'utundi twinshi cyane bikaba bishushanyijeho inka, bigaragaza ko harimo umuti wifashishwa mu kuvura inka.

Imiti y'amatungo aba ari ingirakamaro cyane kubera ko igihe cyose woroye amatungo ukayitaho, ukayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye biyafasha gutera imbere akabona ibyo kurya bihagije.

Ameza ateretseho uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'ayandi. Utwo ducupa tukaba ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese utubonye abona ari ingirakamaro kandi akaba yatubyaza umusaruro.

Uducupa n'udukarito turi ahantu hamwe tukaba turimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kuko igira akamaro.

Agacupa kari mu mabara y'umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'icyatsi bigaragara ko kaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo amererwe neza.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi, aho biri mu mabara y'ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, bikaba ari ibikoresho by'ingirakamaro cyane, byifashishwa birimo imiti y'amatungo.

Udufuka twinshi tugiye dutandukanye tuba turimo imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane, zifashishwa mu buhinzi ndetse hakaba harimo n'imiti ivura amatungo igihe cyose agize ikibazo.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru, aho utwo ducupa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese udafite, aba afite umuti uvura amatungo ye.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye tuba turimo amoko menshi y'imiti aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kubera ko ivura amatungo igihe cyose yagize ikibazo maze ayo matungo akaba yamererwa neza, akabasha gukira agateza imbere nyirayo.

Agakombe kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo abashe kumererwa neza cyane maze nyirayo atere imbere.

Icyumba kirimo udufuka twinshi tugiye dutandukanye, turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo igihe cyose aya matungo yawe yaba yarwaye bagahita bayavura maze agakira.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti myinshi itandukanye, aho iyo miti ari ingenzi kuko umuntu wese woroye aya matungo ajya kuyigura kugira ngo ayavure.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite umunzani ufite imibare itera ndetse uwo munzani ukaba upima imiti y'amatungo bagiye kugura.

Abahinzi bari ahantu aho bafite amasuka bari kugenda bahinga, iruhande rwabo hari abandi bari kubaka ikiraro cy'amatungo azajya atanga ifumbire rizuhira uyu murima.

Abantu bari mu gikorwa cy'ubuhinzi aho harimo abagabo babiri n'undi umwe w'umusirikari, bari kugenda imbere y'umurima w'ibigori bawutunganya kugira ngo bizere neza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu murima aho ari abahinzi, bakaba ari abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano zabugenewe mu kazi k'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umuhinzi ubihinga yarabigize umwuga, bibasha kumuteza imbere cyane byihuse bityo akabona umusaruro.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari bukaba buragiwemo amatungo azwi nk'inka, ubworozi bw'amatungo rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo woroye inka ukazitaho zibasha kuguteza imbere cyane maze ukabona amafaranga.

Ubworozi bw'ihene bwatejwe imbere cyane aho hano hari ihene nyinshi cyane zirenga ijana ndetse n'abagabo bahagaze biganjemo abayobozi, bigaragara ko bagiye kugenda baziha abaturage.

Umugore wambaye imyambaro y'abahinzi akaba ahagaze imbere y'umurima uhinzemo urutoki, afite ibipapuro mu ntoki bigaragara ko ari kwerekana ko ari umuhinzi wa kinyamwuga.

Umurima uhinzemo ibigori aho hari abantu babiri bari kugenda babitera umuti bahetse amapombo kugira ngo barebe ko byazera neza bigatanga umusaruro uko bikwiriye.

Umwana uri ahantu mu murima uteyemo urubingo haraguru y'ibigori akaba ari kugenda arutena bigaragara ko ari gushaka ubwatsi bwo kwahirira inka ziraza kurya kugira ngo bigende neza.

Umugabo uri gutera igiti cya gereveriya, bigaragara ko ari gushaka kubungabunga ibidukikije kubera ko azi akamaro kabyo, akaba ari kugitera yereka abaturage ko cyabasha kugira umumaro.

Umugore uri mu murima wahinzemo ibigori, akaba yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ijipo iri mu mabara y'umutuku n'umukara, akaba ari kwerekana ko ibigori yahinze bizamuteza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuhinzi, aho haba harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa muri uwo mwuga.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abashinzwe umutekano, hakaba hari umugore uri guhereza umwana urubuto aho uwo mwana agiye kurutera kugira ngo arebe ko rwazamuteza imbere.

Umugabo uri ahantu bigaragara ko yoroye inka mu buryo bwa kijyambere, akaba ari kugenda azitaho akoresheje agakoni ke aziragiye kugira ngo zizaze kumererwa neza ndetse nizimucika yifashishe ako gakoni.

Umuntu uri ahantu mu ishyamba munsi y'ibiti bigaragaza ko ari umuhinzi wabigize umwuga, akaba yazamuye amaboko arebye hejuru, bigaragara ko yishimye ndetse ari gushimira Imana.

Umugore uri ahantu uri gutera igiti kizwi nk'isipuri, iki giti rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo ugihinze kiguteza imbere maze kikaguha umusaruro utubutse kandi uhagije.

Umurima uhinzemo ibisheke aho ibyo bisheke bitari byera neza, ubuhinzi bw'ibisheke rero ni ingirakamaro kubera ko umuntu wese ubihinze iyo byeze abigurisha akabonamo amafaranga menshi.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye aho cyanditseho sosiyete ya koperative y'aborozi b'inka iherereye mu karere ka Nyagatare, Intara y'Iburarasirazuba.

Umurima munini urimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'abahinzi, aho bari mu mwuga wabo w'ubuhinzi, bari kugenda basarura imyaka irimo kugira barebe ko yazabateza imbere bakabona amafaranga.

Abantu bari mu murima w'umuceri biganjemo umukobwa ndetse n'abandi bantu babiri, bakaba bari kugenda buhira umuceri kugira ngo barebe ko wazera neza maze ukabaha umusaruro.

Umuntu uri mu murima uhinzemo imbuto n'imboga, akaba ari kugenda ateramo urugemwe rw'igiti kugira ngo nigikura kizage gitanga umuyaga n'amahumbezi hakiri kare.

Umurima urimo imyumbati ukaba ari umurima ugezweho ku buryo umuntu wese wahinze imyumbati akayitaho ibasha kumuteza imbere cyane maze agakigita ifaranga, agasezerera ubukene.

Ubuhinzi bw'imboga ni ingirakamaro cyane kuko iyo zeze umuntu azigemura ku isoko akabonamo amafaranga menshi cyane, si ibyo gusa kuko abonamo n'ifunguro rya buri munsi rimutunga.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho haba harimo n'ibihingwa by'imbuto zizwi nk'indimu, zikaba ari ingirakamaro cyane kandi zikaba ziteza imbere umuhinzi wazo, bikamugirira akamaro.

Ubuhinzi bw'amashu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu wese wahinze amashu akayitaho, abasha kumuha umusaruro maze akaba yakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'imboga ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uhinze imboga akazitaho zibasha kumuteza imbere mu gihe gito hanyuma agakirigita ifaranga agatera imbere.

Umurima uhinzemo umuceri, ukaba ari munini cyane uri ahantu mu gishanga, ubuhinzi bw'umuceri rero ni bwiza cyane, ku buryo umuntu wese wahinze umuceri, abasha kubona umusaruro.

Ubutaka bwiza cyane buhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho hahinzemo umuceri, uyu muceri akaba ari ingirakamaro cyane ku muhinzi wawo aho umuntu wawuhinze ubasha kumuteza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imbuto barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabaha amafaranga bagatera imbere, maze bagasezezera ubukene bakaba abakungu jumba, bagiye batandukanye mu Rwanda.

Ahantu hari ubutaka bwiza burambuye, ubwo butaka bukaba buhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo n'ibiti birebire cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahaherereye.

Ahantu mu gishanga hari umurima w'ibigori munini cyane, uhinzemo amoko menshi atandukanye y'ibigori aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumuteza imbere.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto aho zigiye ziri ku muronko kandi ari nyinshi cyane ku buryo izo waba ukeneye zose uzibona mu buryo bworoshye, harimo imineke, inyanya, avoka, karoti, puwavuro n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigagaye bayihinga bya kinyamwuga, yamara kwera bakayikura bakayanikamo imibaju bazifashisha bari kwenga.

Umurima uhinzemo ibigori aho harimo ikigori kimwe gifite ibabi ndetse cyumye bigaragara ko kigeze igihe cyo kuba cyasarurwa maze kigateza imbere nyiracyo.

Ubuhinzi bw'imyumbati bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije nuko bukeye, aho abantu basigaye bahinga imyumbati bakayitaho hanyuma ikazabagirira umumaro igihe bagisaruye.

Inyubako nziza cyane yabatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi, aho haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa.

Igishanga giteyemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uwuhinze ubasha kuba wamuteza imbere cyane akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'umuceri n'imboga n'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga, bakawitaho, hanyuma ukazabaha umusaruro utubutse.

Umurima uhinzemo insina nyinshi cyane aho izi nsina ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze akazizitaho iyo zeze ibitoki abigurisha maze akabona amafaranga.

Imboga ni zimwe mu mbuto z'ingirakamaro cyane aho umuntu wese uzihinze zibasha kumuha icyo kurya maze akagaburira umuryango we akarwanya bwaki n'igwingira.

Ubuhinzi bw'umuceri bukunze gutera ahantu kumera neza cyane kuko iyo wawuhinze ahantu mu gishanga, usanga ari ahantu heza cyane haringaniye ndetse hagatanga n'umusaruro.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho hahinzemo icyayi kikaba ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese ugihinze kibasha kuba cyamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda aho hasigaye hari abantu bahinga imbuto barabigize umwuga hanyuma zamara kwera bakazisarura bakazijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Ubutaka buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa, aho harimo imyumbati, iyi myumbati rero ni ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wayihinze akayitaho ibasha kumuha umusaruro uhagije.

Ipapayi ni kimwe mu mbuto z'ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kumuteza imbere, aho zigira imbuto nziza ku buryo umuntu wese uziriye zituma inzira z'igogora ze zigenda neza.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibigori bakabyitaho hanyuma bikazabaha umusaruro maze bakaba bakirigita ifaranga.

Umurima uhinzemo insina nyinshi cyane, aho ukikijwe n'intabire ikiri nshyashya itaraterwamo igihingwa na kimwe, aho izi nsina ari ingenzi cyane ku muhinzi wazo.

Igiti cga cyane kikaba gifite amababi menshi agiye atandukanye, kikaba gitanga mu umusaruro ku bahinzi bagiye batandukanye kandi kikaba ingirakamaro.

Umugezi uri ahantu mu gishanga unyuramo amazi menshi cyane aho aya mazi ari ingirakamaro kubera ko igihe cyose uhahinze imbuto uyifashisha uri kuzuhira kugira ngo zere.

Umurima w'ibigori aho ibyo bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Umurima uhinzemo ibigori aho ibi bigori biri kumwe n'insina, izi nsina rero ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu ubihinze kinyamwuga, akabyitaho bibasha kumuha umusaruro uhagije.

Amurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho, zibasha kumuteza imbere cyane maze akaba yakirigita ifaranga.

Ishyamba ryiza cyane rinini riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingenzi cyane, kuko iyo bimaze gukura ba nyirabyo babona umusaruro ugiye utandukanye kandi uhagije.

Umurima uteye mu amokogi atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo ahantu hose biri bibasha kuba byahateza imbere, hakagira isura nziza.

Igiti giteyemo ahantu mu murima, kikaba gifite amababi menshi ariko hariho amwe yumye bigaragara ko iki giti ari igiti cy'inganzamarumbo kandi cy'ingirakamaro.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uteye ishyamba akaryitaho iyo rikoze rimuha umusaruro.

Ahantu hari ubutaka buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa bigaragara ko hameze nkaho ari mu ishyamba kubera ko hakurya hari ibiti binini cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umugezi utambitsemo igiti, icyo giti rero kikaba ari ingirakamaro kubera ko abana bacyambukiraho, igihe bahageze imvura yaguye ari nyinshi, bakaba bacyifashisha kugira ngo bagere hakurya.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye aho ibi bikoresho ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese uzi kugikoresha aba ari umuhanga, biba biri ahantu mu ishyamba ku buryo utapfa kubibona.

Igishanga kirimo umugezi w'amazi atemba, ukaba ari umugezi w'Akagera, kikaba gikikijwe n'amoko menshi agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi ngibi ari ingirakamaro cyane rwose.

Ahantu mu rusisiro hateyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, hakaba harimo n'utuzu twinshi tugiye dutandukanye dusakaje amabati, ibi byose bikaba ari ingenzi cyane kubera ko biteza imbere nyirabyo agakirigita ifaranga.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumuteza imbere.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo ubyitayeho bibasha kuguha amafaranga ndetse n'umusaruro mu buryo butandukanye.

Ahantu hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti bigaragara ko ari mu ishyamba. Iri shyamba rikaba ari ryiza cyane aho rifasha ba nyiraryo kuba bamererwa neza cyane.

Agasozi keza cyane gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere, maze akaba yakirigita ifaranga.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuhinzi wese wabihinze bibasha kumuteza imbere, maze akabona amafaranga.

Umuhanda uri ahantu mu cyaro, bigaragara ko uwo muhanda nta kinyabiziga cyanyuramo, haruguru yawo hakaba hasaruye ibigori byeze kandi byiza, hepfo hateye urutoki.

Umugezi ujya kumera nk'ikiyaga, unyura ahantu mu mubanda ariko ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi cyane biri ku gasozi bigaragara ko ari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho hari n'abantu basigaye bahinga amashyamba bya kinyamwuga, bagateramo ibiti byinshi hanyuma bakajya babyitaho bikazabaha umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibiti bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga inturusi bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma zamara gukura bakazitema bakazicana.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyanya barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara gukura bakabona umusaruro uzajya ubafasha.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'ishati irimo utubara tugiye dutandukanye, akaba ari mu murima w'amatunda, aho ari kugenda ayakorakoraho kugira ngo arebe niba yaba yeze ngo ajye kuyagurisha.

Imbuto za avoka ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe abantu basigayega avoka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara kwera bakazisarura bakajya kuzigurisha.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ibinyomoro, akaba yagiye gushakamo ikinyomoro cyo kurya, ni umugore aho yambaye agapira k'umuhondo ateze igitambaro kiri mu mabara asa umweru.

Inanasi ni zimwe mu mbuto z'ingirakamaro cyane abantu bakunda kwifashisha bari kuzikura igihe bamaze kurya, zikaba ziba ziri mu mabara y'umuhondo ndetse zikaba nziza cyane.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze mu murima we zibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'inyanya akaba afite udupfukantoki yambaye nk'itaburi y'icyatsi n'agapfukamunwa afite urubuto rw'inyanya mu ntoki ari kwerekana umusaruro yabonye.

Amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ziba ziri mu mabara y'iroza, ziteye ahantu mu nzitani harimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, izi ndabyo rero ni ingirakamaro cyane, ku buryo nawe warugira.

Ubuhinzi bw'amatunda bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga amatunda bakayateza imbere cyane hanyuma yamara gukura bakabona amafaranga bifashisha.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba afite ipombo yabugenewe akaba ari kugenda ayuhira kugira ngo ayo mashu azamererwe neza ntiyicwe n'izuba maze azatange umusaruro.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi none akaba afite ibikoresho byabugenewe, ari kugenda yuhira imboga ze kugira ngo izuba ritazazica maze zikaba zarumba agahomba.

Umuntu uri mu murima uteyemo ibigori akaba ari kugenda abyuhira akoresheje imashini yabugenewe kugira ngo arebe ko byakwera neza hanyuma bikaba byamuha umusaruro utubutse.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga bakawitaho hanyuma uwo muceri ukazabateza imbere bakabona amafaranga.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane ariko iyo uhinze ukabyitaho buguha umusaruro utubutse maze ugatera imbere ukakirigita ifaranga, ukitwaha umukungujumba.

Ahantu hari ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, aho hari imashini zabugenewe zifashishwa mu kuhira imyaka zigezweho.

Umurima urimo amazi agenda mu mugenda, ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane aho hirya hateye umuceri ku buryo aya mazi ari yo bayoboramo bari kuwuhira.

Ibirenge by'umuntu uri kugenda mu murima uhinzemo imboga, akaba ari kugenda azuhira akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo ibi bihingwa bizabashe kwera neza.

Umurima uteyemo ibitunguru aho ibyo bitunguru ari ingenzi cyane ku buryo iyo ubihinze ukabyitaho, biguha umusaruro maze nawe ugakirigita ifaranga ugasezera ku bukene.

Uburyo bwiza bugezweho bwo kuhira ni ukubanza kubaka icyuzi hanyuma cyamara kumera neza umuntu akajya ashyiramo umupira agakurura amazi yuhira ibihingwa biri aho ngaho.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu ni ingirakamaro cyane, kuko iyo uyahinze ukayitaho ukazagera uyuhira, aguha umusaruro maze ugatera imbere ugakirigita ifaranga.

Mu busitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kumuteza imbere iyo yazuhiye akoresheje imashini bugenewe.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye nk'ibigori, hakaba haraje n'uburyo bwiza bwo kubyuhira, aho bayoboramo amazi hanyuma akazajya yijyanamo bigatoha.

Ni byiza cyane guhinga ibihingwa igihe icyo ari cyo cyose mu gishanga kuko iyo izuba rivuye umuntu yifashisha ibikoresho byabugenewe akajya agenda abyuhira kugira ngo arebe ko byamuteza imbere.

Umugezi wubakiye neza cyane utembamo amazi, ukaba ukikijwe n'akayira abantu banyuramo, haraguru bakaba bahahinga imbuto, amazi yo muri uyu mugezi bakayifashisha bari kuzuhira.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo umuceri akaba ari kugenda awutera imiti kugira ngo uwo muceri utazajyaho udusimba maze tugatuma umuceri we utera neza uko bikwiriye.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ndetse n'ibigori, bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye babihinga hanyuma bakajya no kubyuhira kugira ngo bizabashe kubaha umusaruro ufatika.

Umugabo wambaye ishati ijya gusa umweru, akaba ahagaze imbere y'icyapa ari kwifotoza, akaba ari umugabo w'umusirimu cyane, bigaragara ko ari umuhinzi wabigize umwuga.

Umuntu uri mu murima we uhinzemo ibigori n'intoryi, akaba afite umupira wabugenewe, akaba ari kugenda abyuhira kugira ngo arebe ko byazamuha umusaruro agatera imbere.

Umuntu uri mu murima uhinzemo imyanya, akaba yambaye agashati gasa iroza, aho bari kugenda bita kw'inyanya bazuhira mu buryo bugezweho bwa kinyamwuga.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, akaba akora umwuga w'ubuhinzi, aho ari kuhira ibihingwa bye biteye ahantu mu murima kugira ngo arebe ko byamutera imbere.

Ibikoresho byaje by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuhira, aho abantu basigaye buhira bakoresheje ibyo bikoresho batavuye aho bari, maze akazi kabo kakihuta cyane.

Hariho imashini zaje zabugenewe mu Rwanda ziba zifashishwa mu kuhira, aho zuhira imyaka umuhinzi atavunitse ahubwo zo ubwabyo zibyikoreye.

Umurima uhinzemo ibigori hakaba hari abantu benshi cyane bari kugenda babyuhira, bigaragara ko ari mu gihe k'izuba none rikaba ryabaye ryinshi, abahinzi b'ibi bigori bakaba bari kuza kubyuhira kugira ngo bitarumba.

Umurima uhinzemo ibigori aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga, agahinduka umukungu wa kinyamwuga.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba ari kugenda ayuhira bigaragara ko ari mu gihe k'izuba none rikaba ryabaye ryinshi, akaba ari kugenda yuhira amashu ye kugira ngo atazarumba bityo agahomba.

Ahantu mu mugenda hari amazi ari kugenda atemberamo, hakaba harimo ubusitani buhateye, buteyemo indabyo ndetse izo ndabyo zikaba ari nziza cyane ku buryo umuntu wazihinze zabasha kumuteza imbere cyane maze akaba yakirigita.

Ahantu hari udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane umuntu ubifite aba afite umusaruro ufatika.

Ubutaka bwiza cyane burimo imisozi myinshi igiye itandukanye iteyemo ibiti byinshi cyane b'ingirakamaro, aho umuhinzi wabyo bibasha kuba byamuteza imbere cyane.

Ahantu hari umusozi mwiza cyane uteyeho amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa bigaragara neza kandi bikaba ari ingirakamaro k'umuntu w'umuhinzi wabyo.

Ubutaka buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane maze akabona umusaruro.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko bibasha kuduha umwuka mwiza duhumeka ndetse bikadukururira n'imvura kugira ngo izuba ritatwica.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bumeze neza ubwo butaka bukaba buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzishinze akazitaho zimuteza imbere.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane hakaba hari amazu asakaje amategura hepfo yayo hateye insina, hakurya hari udusozi twiza cyane duteyeho amoko menshi y'ibiti.

Ahantu mu rusisiro hari amazu bigaragara ko ashaje hakaba hari n'umurima uteyemo ibishyimbo bya mushingiriro, hakurya hari agasozi keza cyane gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti.

Ubutaka bwiza cyane kandi bugari aho ubu butaka ari ingirakamaro cyane kubera ko bugenda butanga umusaruro ku bahinzi aho bahinga ibihingwa hanyuma byakwera bakabigurisha.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibib iti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Ahantu hari imisozi myinshi igiye itandukanye, iyi misozi rero ikaba ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese uyituyeho ibasha kuba yamugirira akamaro aho yayihingaho ibiti bitandukanye.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti bigiye biteye mu miferege ya buri terasi, aho iyo mirima ihinzwe mu buryo bwiza bw'amaterasi y'indinganire.

Agasozi gateyeho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abahinzi, igihe baba bari mu mwuga wabo w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, maze bakazajya bororeramo inka zikabaha umusaruro uko bigwiriye.

Umugabo uri mu kiraro cy'inka bigaragara ko yoroye inka mu buryo bwa kijyambere, akaba ari kugenda aziha imiti igiye itandukanye kugira ngo arebe ko zakomeza gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umuntu woroye ihene akazitaho zibasha kubuha umusaruro, maze akaba yakirigita ifaranga akazijyana ku isoko.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikabaha umusaruro ufatika.

Ahantu mu murima hari ihene nyinshi cyane, aho izi hene ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uzoroye akazitaho, zibasha kumuteza imbere cyane, bityo akabona umusaruro agakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'inkoko bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, hanyuma zikabateza imbere bakabona umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye maze bagatera imbere.

Inka nyinshi cyane zikiri ntoya aho zahuriye hamwe, eshatu muri zo zikaba zasingiye aho zinywera mu iriba zikaba zatangiye kunywa, izindi ziri hirya ziri kuzirebera.

Inyubako nziza cyane yubakishije ibyuma aho bimwe bisa umweru ibindi icyatsi, ikaba yororerwamo amatungo azwi nk'imbwa kugira ngo zidasohoka zikangiza umutekano.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye barora inka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikabateza imbere bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo.

Ubworozi bw'inkko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma nazo zikazabaha umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu borora inka barabigize umwuga, bazitaho hanyuma zikabaha umusaruro hanyuma bagatera imbere.

Ubworozi bw'inkoko bugenda burushaho gufata indi ntera aho abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, hakaba hari n'udukoresho tw'umutuku n'umweru tuzanamo akayaga n'ubushyuhe.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ku byo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma zikazabaha umusaruro.

Umugabo wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba ari kugenda ayitaho ayavura aho bigaragara ko ari umworozi wabigize umwuga ndetse akaba n'umuvuzi w'aya matungo.

Inka nziza cyane yorowe mu buryo bugerwaho bwa kijyambere, ikaba iri mu kiraro cyayo aho iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iri kurisha ubwatsi mu kiraro cyayo.

Inyubako nziza cyane irimo utubati turimo imiti myinshi igiye itandukanye y'amatungo aho iyi miti ivura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo maze zikaba zakira zikamererwa neza.

Ingurube ni zimwe mu matungo y'ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu uyoroye, aba yatangiye gutera intambwe imugeza ku bukungu kuko ingurube zitanga umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakazi ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo igihe bazazigurisha bazabonemo amafaranga ahagije.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda ariko hamwe n'ubworozi, aho umuntu woroye amatungo nk'inkoko, akayitaho cyane abasha kumuha umusaruro ufatika umuteza imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazorora mu buryo bugezweho, bakaziha ibyo kurya bihagije, hanyuma zikabateza imbere bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gufata indi ntera, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma nazo zikazabaha umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro cyane kuko bugenda bute imbere ba nyirabwo, aho bubaha umusaruro utubutse maze bakaba bakirigita ifaranga bakiteza imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bareba ubworozi bw'inka nk'aho ari umutungo ufatika wabateza imbere.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye boroyehene barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabaha umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umushinga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye maze na zo zikazabaha umusaruro.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagabo, bakaba ari aborozi b'inka ba kinyamwuga aho izi nka bazigaburira ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse bakajya banaaniragira ahantu mu mikenke, maze zigatanga umusaruro.

Umuntu wafashe imbuto z'amashaza mu intoki, akaba ari gusuzuma ngo arebe ko izo mbuto ari nzima hanyuma abe yazitera mu murima we kugira ngo zizabashe kuba zamuteza imbere akirigite ifaranga.

Imifuka myinshi cyane irimo umuceri bikaba bigaragara ko nyirawo yawusaruye, none akaba ari kuwitaho kugira ngo arebe ko uwo muceri wazamuha umusaruro awugemuye ku isoko.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko kuba barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo zizabateze imbere.

Umuntu uri gutoranya imbuto y'ibigori aho yasutamye, akaba ari kugenda abirobanura arebamo ibyiza byagira umumaro baramutse babiteye mu murima wabo bikabaha umusaruro.

Udufuka twinshi tugiye dutandukanye, turimo amoko menshi y'imbuto, aho izi mbuto ziba ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wa uzihinze mu murima we, zibasha kumuha umusaruro.

Umuntu ufashe amoko agiye atandukanye y'imbuto mu ntoki aho mu kaboko k'iburyo afashemo imbuto z'umuceri mu k'ibumoso akaba afitemo imbuto z'ikawa, bigaragara ko agiye kuzihinga.

Umufuka w'umuceri aho muri uwo muceri ari mwinshi cyane kandi akaba ari mwiza ku buryo umuhinzi wawo ubasha kumuteza imbere agakirigita ifaranga agatera imbere cyane.

Umurima uhinzemo ibigori aho iyo babisaruye babijyana mu rugo, nyirabyo akagenda abipfundika kugira ngo aze kubimanika kuri hangari, hanyuma bizamuhe umusaruro yunguke.

Amashashi ahinzemo ibihingwa igihe bitandukanye, bigaragara ko ari imbuto z'indabyo bashyizemo, zikaba ziri kugurishwa, ku buryo uzikeneye yoza kuzishakira muri iyi pipinyeri.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe umuntu wahinze ibishyimbo akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane maze akaba yakirigita ifaranga.

Umuntu ufite imbuto z'ibishyimbo mu ntoki, akaba ari kugenda atoranya ngo arebe inziza zigezweho yajya gutera mu murima we, hanyuma zikaba zamuha umusaruro ugezweho.

Shitingi yanitseho ibigori byinshi, aho hari umugore wabisaruye, none akaba ari kugenda abirundaho neza kugira ngo nibyuma azabiteke, bajye babyifashisha bari kubirya.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto z'ibirayi, abahinzi bahinga igihe cyose baba bategereje umusaruro maze bakazitaho zikazabateza imbere cyane bakabona amafaranga.

Umuntu ufite ibishyimbo mu ntoki, akaba ari kugenda yerekana ko ari imbuto nziza bagiye gutera y'ibishyimbo, izatanga umusaruro kuri banyirayo bagatera imbere byihuse.

Hariho imashini nziza cyane zigiye zitandukanye, aho izi mashini ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese uzifite abasha guhinga ibihingwa bye neza cyane bikaba byamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho iyo babisaruye babirunda hamwe hanyuma bakagenda babipfundika kugira ngo babimanike kuri hangari bizabashe kuguma neza.

Umurima uteyemo ibigori aho hari umugabo uri kugenda atoranya ibigori ngo arebe ibyiza bimeze neza hanyuma abe ari byo ajya gutera kugira ngo bizamuhe umusaruro utubutse.

Abantu borora inka mu buryo bwa kinyamwuga, bakunze kuba bafite abaveterineri babyigiye, baza kuzivura igihe cyose zigize ikibazo bakaba baziha imiti, maze izo nka zigakira.

Abantu bambaye udupira tw'ubururu batandukanye bigaragara ko ari abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, bakaba babyiga ba kinyamwuga kugira ngo bazabashe gutsinda amasomo yabo maze biteze imbere mu myuga yabo baba barize.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe haba hari abantu borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma zikazabateza imbere na zo.

Umworozi w'inka wabigize umwuga akaba agenda ahamagaza veterineri akaza kuzigura igihe cyose zagize ikibazo kugira ngo arebe ko yakomeza kubona umusaruro uzikomokaho.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe aho hasigaye hari aborozi b'inka babigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere igihe runaka.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo aba ari abahanga cyane kubera ko bavura amatungo yo mu rugo ndetse n'ay'agasozi harimo nk'imbwa, imisega, intare, impyisi n'izindi.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gufata indi ntera, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye zarwara bakabwira veterineri akaza kuzivura.

Ubworozi bw'inka bukomeje guteza imbere ba nyirabwo, kubera ko iyo boroye amatungo bakayitaho uko bikwiriye abasha kubateza imbere maze bakabona umusaruro bagakirigita ifaranga.

Ikibido kirimo imiti igiye itandukanye, kikaba kifashishwa n'abaveterineri igihe baba bari kuvura amatungo yagize ikibazo maze bagashyiramo imiti bakajya barayahereza.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba bafite ubuhanga bw'akataraboneka, aho babasha kuvura amatungo agiye atandukanye ndetse yaba yanapfuye bakayapima inyama zayo ngo barebe ko ari nzima.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane uko bwije n'uko bukeye, aho abantu basigaye bazorora hanyuma zarwara bakabwira veterineri akaza akazivura kugira ngo zibashe gukira.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, cyane cyane abiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba ari abahanga cyane aho bavura amatungo babanje no kuyabaga bakongera bakayadoda.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe abantu basigaye bakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi bakabyitaho ndetse ibihingwa byabo cyangwa amatungo byagira ikibazo bakazana inzobere zabyigiye zikabivura.

Ahantu baragiye inka nyinshi cyane za kijyambere aho izi nka ari nyinshi cyane ku buryo umuntu wese uzoroye, akazizitaho zibasha kumuha umusaruro dore ko ari inka z'imbyeyi ziri mu mabara y'ibihogo.

Inka nziza cyane ya kizungu iri mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba imaze kubyara, none iri kurigata akana kayo kugira na ko kazakure kabe keza cyane nka yo.

Inyamaswa y'ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkazi kubera ko iba izi kwiruka cyane ku buryo akanyamaswa kose kayikinishije, ihita igasimbukira ikagafata ku gakanu ikakirenza.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro cyane, ariko muri pariki y'igihugu y'u Rwanda baba bafite amatungo menshi cyane y'inyamaswa aho harimo n'inzovu abakerarugendo bakunda kureba.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, hari izizwi nk'Intare aho ziba ari umwami w'ishyamba ku buryo ziba zikaze cyane nta yindi nyamaswa yabasha kuzikinisha, zikaba zikunda kugira urugomo.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa ziba mu gasozi aho ziba zizi gusimbuka cyane zitwa imisega aho zifite ibirizo binini ikaba iri gusimbuka amazi.

Inka nyinshi cyane ziragiwe ahantu mu gisambo, aho hino hari agakende kari kureba ukuntu ziri kurisha, maze kakajya karatangara ukuntu ari nyinshi cyane.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi atandukanye y'inyoni, aho izi nyoni ziba ari nziza cyane, kubera ko ba mu mukerarugendo bakunda kuza, bakareba ukuntu ziba zitangaje.

Muri Parike y'Igihugu y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izi nyamaswa zitwa imparage, ziba ari inyamahoro zifitiye utubara tw'umweru ndetse n'umukara.

Hariho inyamaswa zitwa imvubu zikunze kuba ziri ahantu zikaba ziba mu mazi, iyo zivuyemo rero zijya konera abaturage zikanyuka imyaka yabo kugira ngo zibahombye.

Ingwe ni zimwe mu nyamaswa dukunda gusanga muri pariki y'igihugu y'Akagera, aho ari inyamaswa mbi cyane igira ubugome, ikaba izi kurira ibiti ndetse no gusimbuka igafata ku gakanu.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo inyamaswa z'udusumbashyamba, aho ziba ari ndende cyane zikaba zabasha kurisha mu giti zibereye hasi, zikarya amababi yacyo.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera harimo inyamaswa zitwa inkura, ziba zifite igitwe kimeze ukuntu, zirishiriza ubwatsi ariko zifite n'igihembe ku zuru, ku buryo inyamaswa izikinishije kiziyitera.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa zikunda kuba mu mazi zizwi nk'ibishuhe, ziba zijya kumera nk'imbata ariko zo zitazi kuba mu rugo kuko zo ziba zaramenyereye kwibera mu gasozi.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ziba mu ishyamba, aho hariho ibiguruka biba bizi kuguruka cyane, aho byatonze umurongo biri kumwe, bigaragara ko wagira ngo biri kujya inama.

Ingwe ni imwe mu nyamaswa z'inkazi cyane dukunze gusanga muri parike y'Akagera, aho iba ari ingome, ku buryo inyamaswa yose iyikinishije, ihita ifata ku gakanu ako kanya ikayica.

Haba hariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho hariho inyamaswa z'agasozi zizwi nk'imbwa zikunze kwitwa imisega, zirahiga, nta mbaraga zigira ndetse n'ibishwi zigira amahane gusa.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, hari zizwi nk'inzovu aho ziba zifite imbaraga nyinshi ku buryo umuntu atabasha kuyikinisha.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa aho harimo iyabaswa zitwa inkura, zikaba ziba zifite igihembe imbere ku buryo inyamaswa iyikinishije ikiyitera.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa aho izi nyamaswa ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo uzoroye, ukazitaho uko bikwiye zibasha kuguteza imbere maze u ukabona amafaranga.

Igisiga ni amwe mu matungo akunze kuba ari ahantu muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, kiba gifite amabara y'umweru hejuru n'umukara n'umunwa w'umuhondo.

Ubworozi bw'inyoni ni bwiza cyane aho dukunze kuzisanga muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, zikaba ari inyoni ziba zifite amabara agiye atandukanye, aho ba mukerarugendo bakunda kuzireba.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda habamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, habamo imbwa zurira ibiti zikaryamaho zikaba zanasinziriraho, ziba ziri mu mashyamba menshi agiye atandukanye.

Mu mazi ahantu mu gishanga haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari izizwi nk'ibishuhe, zijya kumera nk'imbata ziba zizi kuguruka cyane kandi zizi no koga amazi.